Inyubako nziza y'ikigo cy'amashuri aho asakaje amabati y'umutuku, hakaba hashushanyijeho ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa bigisha abana biga mu mashuri y'inshuke.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye batozwa kugira isuku cyane aho igihe cyose bageze ku ishuri baba bagomba gukaraba intoki zabo zigasa neza bakabona kwinjira.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'amashuri y'inshuke, ikaba yigirwamo n'abo bana kugira ngo babashe kuba bahatsinda.

Igikapu kiri mu mabara agiye atandukanye aho kiri mu mabara y'umukara ndetse n'umutuku, kikaba ari ingenzi cyane kubera ko cyifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bagitwaramo ibikoresho byabo.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba yubatswe mu buryo bwa kijyambere, ikaba iteye amarangi agiye atandukanye ndetse harimo n'agakapu kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Udukoresho tugiye dutandukanye twifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke, aho bagenda batubaha, hanyuma abana bagakunda utu tubara twatwo maze bakishima.

Abanyeshuri benshi biga mu mashuri y'inshuke, aho bicaye ahantu hamwe bari kumwe n'umwarimu wabo, aho ari kugenda abatoza uburyo ki babyina ndetse bagahamiriza.

Amakaramu agiye atandukanye yifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke, aho abari mu mabara menshi abanyeshuri bakayakundira aya mabara yabo kuko aba ari meza abashimisha.

Inyubako nziza cyane ifite igikuta giteye amarangi y'umweru, gishushanyijeho amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, bikaba byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bambaye impuzankano ziri mu mbara y'umukara ndetse na bleu-ciel, bakaba bari kurya umunyenga ku myicundo, imbere y'amashuri yabo.

Inyubako nziza cyane iteye irange ry'umweru ku bikuta hakaba hashushanyijeho igishyimbo kiri kumera, bigaragara ko ari ibyo bifashisha bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bakunze kubigisha bifashishije amazina y'amatungo agiye atandukanye ndetse n'ibipupe biri mu mabara agiye atandukanye kugira ngo abana babashe kwishima.

Ubutaka bwiza cyane burimo amoko agiye atandukanye y'ibyatsi, aho hakurya hari inzu nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zisakaje amabati y'umutuku bigaragara ko ari mu mudugudu wateye imbere.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zikaba zifite inzugi ziteye amarangi y'icyatsi ndetse n'ibirahure bitabonerana, hakaba hari n'utubati twiza cyane abanyeshuri bifashisha.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho ari inyubako y'amashuri y'inshuke ikaba yubatswe neza cyane ishushanyijeho n'ibishushanyo byinshi.

Udukarito tugiye dutandukanye tuba dufite amabara menshi cyane, aho utwo dukarito twifashishwa bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, amabara agiye atandukanye.

Inyubako nziza cyane z'amashuri aho hari akayira kaziganaho kari guturukamo umunyeshuri wiga mu mashuri y'inshuke ari kuza bigaragara ko ari gutaha avuye ku ishuri.

Ibipupe biri mu moko menshi, bikaba birambitse ahantu. Aho bikunda kwifashishwa bigisha abanyeshuri biga lmu mashuri y'inshuke. Babigisha ibintu bigiye bitandukanye.

Gurudu ni agakoresho k'ingirakamaro cyane gakunze kwifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, aho bagatwaramo amazi bagiye ku ishuri kugira ngo barebe ko bayifashisha.

Udukoresho tugiye dutandukanye tuba turi mu mashuri y'inshuke abarimu bifashisha bari kwigisha abanyeshuri kugira ngo babashe kumenya aho tuba turi mu mabara y'ubururu ndetse n'umutuku.

Kandagira ukarabe ni kimwe mu bikoresho by'ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese uje gukaraba akandagiraho akaba yakaraba bitagoranye, hanyuma isuku ikanozwa mu Rwanda.

Umurima uhinzemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibimera aho uyu nguyu wo nta kintu na kimwe bari bahingamo kugira ngo barebe ko cyazabateza imbere bagakirigita ifaranga.

Igitabo gishushanyijeho urukwavu ndetse n'impyisi, kikaba kifashishwa bigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, babigisha imigani igiye itandukanye, harimo umugani wa bakame n'impyisi.

Amoko agiye atandukanye y'ibishushanyo abarimu bifashisha bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, aho haba harimo ingona ziri mu mabara y'icyatsi ziri kubyina ndetse n'imbata.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iyo nyubako iteye amarange y'umweru ku bikuta, ikaba ari inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Uushushanyo twa mpande enye, tuba tugizwe n'amabara agiye atandukanye, aho twifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke, igihe baba bari kwigisha abana amabara ndetse no kubara.

Ahantu hari ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wabihinze bibasha kumuteza imbere.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iyo nyubako ifite ibikuta biteye irange ry'umweru, ikaba ishushanyijeho ibihembo biri kumera, bikaba ari ibyo bifashisha bigisha abana biga mu mashuri y'inshuke.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba iriho icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, ikaba igaragaza ko ari ishuri ryigirwamo n'abana biga mu mashuri y'inshuke.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, iteye amarangi y'umweru n'ubuhondo ku bikuta, ikaba ishushanyijeho igitoki bigaragara ko ari inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa aba ashushanyije ahantu, aho yifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke, hakaba harimo intare, inka, umuntu n'ibindi byinshi.

Inyubako nziza cyane yubatswe muburyo bugezweho, aho iteye amarangi y'ubururu ikaba ifite n'amatara y'ubururu hanze hakaba haparitse moto nziza cyane.

Ikinyugunyugu ni kamwe mu kanyamaswa kaba kazi kugubwa cyane, aho gakunda kwirira indabyo, ni keza cyane ku buryo kaba kari mu mabara agiye atandukanye, kakaba kigirira amahoro.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, aho baba bafite barumuna babo biga mu mashuri abanza, baba bambaye impuzankano z'ubururu, baba bazi no gushushanya cyane.

Icyapa kimanitseho utuntu tw'udupapuro tw'umweru turi mu mabara agiye atandukanye aho tumwe turi mu mabara y'umutuku, umukara, icyatsi ndetse n'utundi twa mpande enye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iteye amarange y'umweru ku bikuta, ifite ubusitani bwiza cyane burimo amoko agiye atandukanye y'umucaca.

Ahantu hari ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, aho harimo agacaruziga, irate, ikaramu y'igiti ndetse n'ibindi.

Agasanduku abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bifashisha kaba karimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha aba kwiga imibare aho haba hari imirati, agakaramu k'igiti agacaruziga, n'ibindi.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite ameza arambitseho mudasobwa zifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza igihe baba bari kwiga ikoranabuhanga.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza baba bafite udukinisho dukoze mu mabara agiye atandukanye, bifashisha bari kwiga kugira babashe kumenya kubara, gusoma ndetse no kwandika.

Hari amoko agiye atandukanye y'ibikoresho byifashishwa bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse n'amashuri abanza, aho biba biri mu mabara menshi agiye atandukanye.

Agasanduku kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, kaba karimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha bari kwiga imibare, aho harimo amarati, uducaruziga ndetse n'amakaramu y'ibiti.

Akabati kariho ibikoresho bigiye bitandukanye, aho hariho amakayi, hakaba hariho agakombe karimo amakaramu y'ibiti ndetse n'urubuto rw'irogi rurambitse hejuru y'ibitabo.

Inyubako nziza cyane zubakishije amatafari ahiye, zisakaje amabati y'ubururu aho iruhande rwazo haparitse imodoka, bikaba bigaragara ko ari mu kigo kiza cyane cy'amashuri abanza.

Inyubako nziza cyane y'amashuri aho ifite amabati y'ubururu, iteye amarangi y'umweru ku bikuta, hakaba hari indabyo nziza cyane ziteye imbere yaho ndetse hari n'ubusitani bwiza.

Agasanduku kaba karimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'amarati, uducaruziga, ikaramu y'igiti ndetse n'agahanagura byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza.

Inyubako nziza cyane aho zubakishije amatafari ahiye, zikaba zifite ubusitani mo imbere, aho ari inyubako zo ku kigo cy'amashuri abanza zikaba ari nziza cyane.

Ibikoresho bigiye bitandukanye biri mu moko menshi harimo isuka, icyuma ,n'igikombe ibi bikaba ari ingenzi cyane kubera kubyifashishwa n'abahinzi igihe bari mu mwuga wabo w'ubuhinzi.

Agasanduku karimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye igihe baba bari kwiga amasomo yabo y'imibare aho muri ibyo bikoresho harimo amarati, uducaruziga ndetse n'amakaramu y'ibiti.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho inyubako ari nziza cyane, ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza.

Udukarito tubiri dushushanyijeho ibipupe tukaba ari udukarito twifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri abanza kugira ngo bigishe abo bana bakiri bato kubara.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakunze kuba bafite barumuna babo biga mu mashuri abanza, bakabigisha amoko agiye atandukanye y'ibikoresho byo mu rugo by'ingirakamaro.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri abanza, aho baba bari kwigisha abo banyeshuri, amabara menshi ndetse no kubara.

Udukarito turi mu mabara agiye atandukanye y'umutuku n'icyatsi n'umuhondo, tukaba twifashishwa n'abarimu bari kwigisha abanyeshuri b'inshuke, kubara ndetse no kumenya amabara.

Ikibuga kiza cyane kigari kikaba gikikijwe n'amashuri meza cyane bigaragara ko ari mu mashuri abanza, aho abanyeshuri baza gukinira imikino y'amaboko.

Udukoresho tugiye dutandukanye dufite amabara menshi, aho utwo dukoresho ari ingirakamaro cyane haba harimo imipira bakina y'amaboko ndetse n'indi myinshi cyane bikaba ari ingirakamaro.

Udukarito turiho utuziga twanditseho imibare igiye itandukanye aho batwifashisha bigisha abanyeshuri biga mu mashiri y'inshuke ku bara ndetse no kwandika.

U tuziga tubiri turi mu mabara y'ubururu ndetse n'ibara ry'iroza aho turimo inyuguti zigiye zitandukanye, batwifashisha bigisha abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye amarangi y'umweru ku bikuta, amatara akaba ari kwaka, bikaba bigaragaza ko ari inyubako y'ishuri yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza.

Umuntu uri kugenda mu muhanda ari kwiruka, wambaye agapira k'icyatsi n'akabutura k'umutuku, akaba ari kwirukwaho n'umukobwa wambaye agakanzu k'umutuku, hejuru handitseho Gakire na Gasaro.

Agasanduku kaba kari mu mabara y'umutuku, kaba karimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bari kwiga isomo ry'imibare kugira ngo baritsinde.

Agasanduku kaba karimo ibikoresho byinshi b'ingirakamaro bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye iyo bari kwiga isomo ryabo ry'imibare.

Ni byiza cyane gutoza abana biga mu mashuri y'inshuke isuku, aho tubatoza ko imyanda yose bayimena mu kimoteri cyabugenewe cy'ikoranabuhanga kiba kimanitse ahantu.

Umwarimu wigisha mu mashuri abanza akaba yambaye itaburiya y'umweru ari ku kibaho ari kugenda yandikaho amasomo agiye atandukanye, abanyeshuri na bo bakaba bakurikiye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye amarangi y'umuhondo ndetse n'andi marangi ku bikuta, mo imbere amatara arire kwaka, harimo utumeza n'udutebe abanyeshuri bicaraho.

Inyubako nziza cyane z'amashuri yisumbuye, aho zifite amabati y'ubururu, zubakishije amatafari ahiye ndetse zifite amadirishya y'imyeru, zikaba ari nziza cyane.

Udukoresho tugiye dutandukanye tuba turi mu mabara menshi agiye atandukanye, aho haba hari n'ibase irimo imipira ikinwa bikaba byifashishwa mu kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bakaba bahagaze hamwe bari ku murongo, imbere hari umuyobozi wabo wambaye agapira k'umukara ufite indangururamajwi ari kubagezaho ijambo na bo bamuteze amatwi.

Ibikoresho biri mu mabara y'ubururu, bikaba byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, igihe baba bari kwiga isomo ry'imibare, harimo agacaruziga, ikaramu y'igiti ndetse n'amarati.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bakunze kuba bafite ibibaho bigufi cyane, ku buryo buri mwana yabasha kwandikaho ariko bo kubera ukuntu bareshya iyo bagiye kwandikaho babanza gupfukama.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza cyane cyane iyo bari kwiga isomo ry'imibare, harimo irati ndetse n'agacaruziga.

Ameza atetseho amoko agiye atandukanye y'ibitabo, aho ibi bitabo ari ingirakamaro cyane kubera ko byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, hakaba hari n'amakaramu y'ibiti irati n'umupasi.

Inyubako nziza y'ikigo cy'amashuri aho asakaje amabati y'umutuku, hakaba hari ubusini bwiza cyane, burimo ibendera ry'u Rwanda ndetse n'akayira keza cyane gashashemo amapave.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane aho basigaye bazifashisha bari kwigisha abana biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza bakabereka inkoko iri gusomera utwana twayo iyo nkuru.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bateraniye hamwe ku kigo cy'amashuri aho hari umwe uri gukora imyitozo ngororamubiri n'abandi bose bakaba bahagaze mu busitani bwiza cyane.

Igikapu kiri mu mabara agiye atandukanye kikaba cyifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, ndetse bagatwaramo amakaye yabo igihe baba bagiye ku ishuri.

Amoko menshi agiye atandukanye y'ibitabo, byifashishwa mu mashuri abanza aho biba birimo inkuru zigiye zitandukanye abanyeshuri basoma bakabasha kumenya ubwenge.

Udukapu tugiye dutandukanye tuba turimo ibikoresho by'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, tukaba turambitse ahantu ari dutatu bigaragara ko ari two abanyeshuri batwaramo amakayi.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri, aho iteye amarangi y'ubururu mu madirishya, ikaba ifite ibikuta byubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba ifite imireko myiza cyane.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere zikaba ari inyubako z'amashuri yisumbuye, aho zifite udutafari duhiye ndetse zikaba zifite n'ubusitani bukiri bushyashya.

Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda ko buri kigo cy'amashuri kigomba kugira isomero, aho abanyeshuri bagiye batandukanye, baza bakicara bagasoma ibitabo.

Umugore ufite imisatsi ya menshi akaba afite n'amaherena ku matwi, akaba ari umuyobozi w'ikigo cy'amashuri yisumbuye, aho ahagaze bari kumubaza ibibazo hanyuma na we akagenda asubiza.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi, bakaba bambaye impuzankano zo mu mabara agiye atandukanye, bakaba bicaye bigaragara ko bari mu nama bahanze amaso umuntu ubari imbere.

Umwana agiye ku ishuri w'umukobwa, yambaye agapira k'ubururu ahetse n'igikapu, nyina ari kumwongorera ati wa mwana we nubwo ujye ku ishuri uzirinde udusore twitwa twa Cloude ndetse na twa Eric.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye aho bari mu nama, bambaye udupira dusa icya hafi bakaba bari ahantu hubatse amatente ari mu mabara y'ibendera ry'igihugu cyacu y'u Rwanda.

Abanyeshuri benshi biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bicaye bambaye impuzankano, bahuje amaboko, bakaba barimo n'umuzungu hagati, wambaye imyambaro y'umutuku.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bahuriye hamwe harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba ari abarimu bigisha mu mashuri yisumbuye by'umwihariko imyuga.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe ku nyubako z'ikigo cy'amashuri yisumbuye, hakaba harimo abarimu ndetse n'abanyeshuri, bari kuganira uburyo ki uburezi bwakomeza gutezwa imbere.

Umugabo w'umwarimu ari kumwe na bagenzi be, bakaba bari guhereza umwana ibitabo byo gusoma harimo inkoranyamagambo zigera muri eshatu, uwo mwana ari byakira yishimye yambaye agapira k'icyatsi.

Umunyeshuri wiga mu mashuri yisumbuye, akaba ahagaze ari kumwe na bagenzi be bari kwifotoza ndetse bishimye, bambaye impuzankano z'ishuri ziri mu mabara y'imyeru.

Abanyeshuri bari mushuri bishimye, aho bagiye bazamura amaboko bigaragara ko hari umwe muri bo ugiye gusubiza reka duhe mikoro uriya mwana uri inyuma, twumve igitekerezo cye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bahuriye hamwe, bakaba bahagaze aho bambaye impuzankano ziri mu mabara agiye atandukanye ariko biga mu mashuri yisumbuye.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye, bambaye udupira turi mu mabara y'umuhondo bigaragara ko biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bari kugenda bambaye imyambaro ya kake hasi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite amarembo ashushanyijeho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse hakaba handitse hejuru ngo murakaza neza mu rwunge rw'Amashuri rwa Nyagatare.

Abanyeshuri benshi cyane bateraniye hamwe bigaragara ko biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bambaye impunzankano z'ishuri zigiye zitandukanye, aho imbere yabo hahagaze umwe afite indangururamajwi mu ntoki ari kugira icyo ababwira.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bateraniye hamwe bambaye impuzankano z'ishuri ziri mu mabara y'umweru n'abandi bambaye iziri mu mabara y'umuhondo, bari munsi y'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Abanyeshuri babiri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bahagaze imbere mu ishuri aho umwe amanitse ikiganza afite agapapuro ari gusomaho, ari kumwe na mugenzi we bari gusobanurira abandi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi higanjemo abahungu ndetse n'abakobwa, bakaba bicaye ku ntebe bari kwandika amasomo yabo bigaragara ko bishimye.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zikaba ziteye amarangi agiye atandukanye y'umweru ndetse zikaba zubabakishije n'amatafari ahiye, zikaba ari inyubako zo mu kigo cy'amashuri yisumbuye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba yubakishije amatafari ahiye, ikaba ikikijwe n'ubusitani buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibimera hakaba harimo abanyeshuri bari kugendamo.

Umuntu wize ibijyanye n'amashanyarazi mu mashuri yisumbuye akaba ari kugenda mu ishuri yambaye akajire kabugenewe ari kugenda atambuka kugira ngo arebe ko abanyeshuri bigana babashije kubyumva.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo abarimu ndetse n'abanyeshuri, aho bari guha umunyeshuri wiga mu mashuri yisumbuye amakaye bigaragara ko yitwaye neza cyane bakaba bari kumushimira.

Abantu baba barize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro mu mashuri yisumbuye bakunze kuba bafite ubuhanga buhanitse, aho igihe bakiri ku ishuri bagenda maze bagakora utuntu tugiye dutandukanye twerekeranye n'umuriro w'amashanyarazi.

Abanyeshuri benshi cyane bateraniye hamwe aho abo banyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ariko bakaba biga ibijyanye no gukanika amashanyarazi, bakaba bambaye imyambaro yabugenewe.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri cya Karangazi uyu murenge akaba ari wo murenge munini mu gihugu cy'u Rwanda witwa Karangazi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye higanjemo ab'igitsina gore, bakaba bambaye impuzankano z'ishuri ndetse bambaye amashati y'umweru, hasi bambaye kaki, bakaba bicaye bigaragara ko bari mu nama.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bateraniye hamwe, bakaba bicaye mu busitani bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru n'umukara, bakaba bicaye bari kureba abakinnyi bari gukina umukino w'amaboko.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bahuriye hamwe bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru, bakaba bambaye kandi ipantaro za kaki bicaye ahantu mu busitani bari mu nama.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako iteye amarangi y'icyatsi n'umutuku. Iyi nyubako rero ni nziza cyane ku buryo umuntu wese uyubatse ibasha kumuteza imbere.

Ikibumbano cy'umuntu urebye ku ruhande ufite umusatsi n'amatwi, bikaba bigaragara ko kiba cyarakozwe n'umuntu w'umuhanga uba warize ibijyanye n'ubukorikori mu mashuri yisumbuye.

Umurima uteyemo amoko agiye atandukanye y'ibimera, aho ibi bimera ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wabihinnze bibasha kumuteraza imbere maze agakirigita ifaranga agasezerera ubukene.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, aho zifitemo ubusitani buteyemo ibyatsi bigiye bitandukanye, hakaba hari n'akayira gashashemo amapave abagenzi bari kunyuramo.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, bakunze kwigira mu buryo bw'amatsinda, aho baba bicaye bakajya baraganira bungurana ibitekerezo.

Hariho ibikoresho bigiye bitandukanye bikozwe mu bugeni, aho ibyo bikoresho ari ingirakamaro cyane kubera ko biba byarakozwe n'abanyeshuri bize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro mu Rwanda.

Abanyeshuri biga muri kaminuza baba bafite ubuhanga buhanitse, aho hari ababa bazi gushushanya, bashushanya umudugudu mwiza uteyemo ibiti wareba ukagira ngo ni nibyo.

Umugore ufite mudasobwa imbere ye, akaba yambaye agapfukamunwa ari kugenda ayikanda bigaragara ko ari kwiga ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo na we azamenye tekinolojiya.

Udukoresho twinshi cyane dukozwe mu ibumba, tukaba dukozwe mu buryo bw'ubugeni ku buryo bigaragara ko twakozwe n'umunyeshuri wize muri Kaminuza y'u Rwanda cyangwa se uwize ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro.

Abanyeshuri baba barize muri Kaminuza y'u Rwanda baba bafite ubuhanga buhanitse, aho baba bazi gushushanya utuntu twiza cyane tugiye dutandukanye watubona ukabona turashimishije.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abanyeshuri basigaye babishushanya, bakoresheje ubugeni bize, hanyuma ukaba wagira ngo ni nibyo neza neza.

Udutebe twinshi tugiye dutandukanye turi mu mabara y'ubururu, aho utwo dutebe ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese utubonye ahita atekereza ko ari utwo muri Kaminuza y'u Rwanda.

Udufuka duforumye akantu keza cyane k'agatako bigaragara ko gakoze neza kakaba karakozwe n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse na za kaminuza, kakaba ari keza cyane.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bateraniye hamwe, bakaba bicaye ku ntebe zabugenewe aho bari gukora ikizami, buri wese afite mudasobwa imbere ye, bigaragara ko ari abahanga.

Inyubako nziza cyane irimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abanyeshuri biga muri kaminuza, igihe baba bari gusubiramo amasomo yabo.

Umusore uri mushuri, akaba yicaye imbere ye afite mudasobwa, inyuma ye harimo akabati karimo ibitabo byinshi, bigaragara ko a isomero yicayemo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iteye amarangi y'umweru ku bikuta, ikaba ifite inzugi zisize amarangi y'icyatsi, n'ibirahuri byiza cyane bitabonerana.

Udukoresho tugiye dutandukanye tuzwi nk'amavaze, tuba tubumbye muri sima ariko tukaba dukoranywe ubuhanga kuko tuba twarakozwe n'abanyeshuri babyize muri kaminuza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite icyapa cy'umweru kiriho amabara agiye atandukanye, yashushanyijwe n'umunyeshuri wize mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro.

Abantu bagera muri batanu bahuriye hamwe, bakaba bafite icyapa mu mijyi kiriho ikirango cya Minisiteri y'ibijyanye n'ubuzima mu Rwanda, bavuga ngo gutanga amaraso ni ngombwa.

Udukoresho twinshi cyane dukozwe mu buryo bw'ubugeni, tuba twarakozwe n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, cyane cyane ababa barize imyuga n'ubumenyingiro kuko aba ari abahanga.

Igikuta kiza cyane giteyeho utwapa turi mu mabara y'ubururu, umutuku, iroza, ndetse na oranje tukaba twarakozwe n'abanyeshuri bize imyuga n'ubumenyingiro.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'umutuku ndetse iruhande rwayo hari ubusitani bwiza cyane, buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti.

Muri Kaminuza nkuru y'u Ywanda ishami rya Nyagatare, haba harimo udute tw'amayobera, aho abanyeshuri babona aho kwicara no kwegana ndetse bakaba bafite n'aho kwandikira turi mu mabara y'ubururu.

Abakobwa benshi cyane bagiye batandukanye aho bambaye udupira turi mu mabara y'umweru ndetse bakaba bambaye na baji ziranga icyo bakora mu ijosi. Bakaba biga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro bakaba bishimye cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho iteye amarange y'umweru ku bikuta, ikaba ifite inzugi n'ibirahuri biri mu mabara y'ivu aho ibyo birahuri ari byiza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba iteye amarange y'umweru ku bikuta, aho ifite ubwuma tuzitiye aho abantu bari kugendamo badufataho kugira ngo batagwa.

Abanyeshuri basoje amashuri makuru ndetse na za kaminuza bakaba bateraniye hamwe muri sitade, aho bambaye amakanzu n'ingofero bari kwishima cyane banezerewe.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho idatsemo ibikoresho byinshi hakaba hahagazemo n'umukobwa bigaragara ko yize iby'ubugeni muri kaminuza.

Udukoresho tugiye dutandukanye tuba dukozwe mu ibumba, dukozwe mu buryo bw'ubugeni, aho tuba twarakozwe n'abanyeshuri basoje mu mashuri yisumbuye, barize imyuga n'ubumenyi ngiro.

Udukoresho tugiye dutandukanye tuba dukozwe mu buryo bw'ubugeni, aho haba harimo udukozwe mu' ibumba ariko twarakozwe n'abanyeshuri bize imyuga n'ubumenyi ngiro.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ifite inzugi z'icyatsi n'amadirishya ikaba ifite ibirahuri byiza bitabonerana, ikaba ari inyubako yo muri kaminuza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite intebe ziri mu mabara y'ubururu, iyo nyubako ikaba irimo abantu bagiye batandukanye bigaragara ko ari abakobwa n'abahungu.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, aho ari abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza, bakaba bari mu nama aho hari umukobwa wambaye ikanzu y'umukara wazamuye intoki ari bakoresha iyo nama.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iteye amarangi y'umweru ku bikuta, hakaba hariho ibishushanyo bigiye bitandukanye, harimo udutebe twiza cyane tw'ubururu n'ameza, bigaragara ko ari muri kaminuza.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, bakaba bateraniye hamwe, aho bari kwishimira igikorwa runaka cy'uko basoje amashuri yabo.